Abasore babiri bari muri butike， umwe afashe ikirahure cy'amata， undi ahagaze imbere， ari kureba ahogiye kugurira， yambaye n'agapfukamunwa.

Amazu y'ubucuruzi atandukanye arakinze, imbere yayo hari umwana w'umunyeshuri uri kujya ku ishuri yambaye niforome.

Inzu z'ubucuruzi zicuruza ibintu bitandukanye, imbere yazo haparitse amagare ni n'ibidomoro, hariho n'umumama usa naho ari kugosora ibigori.

Ahantu bacuruza gaze z'ibiro bitandatu, ndetse n'amashyiga y'ibiro cumi na bibiri, inyuma yazo hari ibitoki n'avoka, ndetse hafi ya gaze haparitse amagare.

Umusore urimo gusunika igare uhagaze ahagararanye n'umugore, atwaye ibisheke ku igare bimwe biri inyuma, ibindi biri imbere, yambaye isengeri.

Mu isoko harimo gucururizwamo inyanya, ibitunguru, ibisheke ndetse harimo n'abakozi batanga amayiniti, ndabona iri soko rifite umuriro w'amashanyarazi.

Aho bagurira imigati muri alimentasiyo, hari imigati y'ubwoko butandukanye, hari imbada, imigati y'imfufuma ndetse ndabona n'umwenda ugabanya ahantu habakiriye.

Ikigega cy'amazi cya parasitike kiragaragara ko ari icyo mu Murenge wa Musanze.

Umuryango w'ubucuruzi urakinguye. Imbere ku muryango, hariho amakaro, imikoropesho ndetse hafi y'aho hari n'abantu bicaye bitwikiye umutaka.

Ahantu batangira Serivisi z'Irembo, hari ibyapa bitanga karibu n'ibigaragaza ibyo bakora n'ibyo bacuruza ndetse hari na numero ya Telefoni.

Aho bogoshera harakinguye. Hanze yaho hari amafoto y'abantu amanitse, ndetse hari na numero ya telefone.

Iduka ry'ubucuruzi ricuruza umuceri na kawunga, imbere yaryo hari umunyegare, hafi y'iryo duka hari moto iparitse.

Icyapa kigaragaza ubwoko bw'inzoga yitwa amusteri, gikozwe mu ruziga, ibyapa bibiri hafi yabyo hari icupa, hari ururabo hasi ndetse n'ururabo hejuru.

Inzu y'ubucuruzi ikinguye, hafi yiyo nzu hari abagabo babiri bari kuzamuka, umwe ari imbere yambaye ingofero ndetse yambaye n'umupira ufite ingofero.

Abacuruzi bacuruza ibirayi, imboga, inyanya, ndetse n'intoryi barimo gucururiza mu isoko. Hafi yabo hari umuntu ucuruza amayinite. Inyuma yabo hari inzu z'ubucuruzi zifite imiryango igera muri itatu.

Inzu y'ubucuruzi iteye amarangi ya Eyateli ,iriho n'icyapa cyo kwamamaza cya Eyateli ,icyingishijwe inzugi z'ibirahuri...

Inzu y'ubucuruzi imiryango urakinze undi urakinguye, imbere yaho hari umucuruzi ucuruza ama inite emutiyeni, iyo nzu iteye irangi ry'umuhondo.

Icyapa kigaragaza inzu ya hoteri aho bararahara, bakaharira ndetse bakanahanywera. Ni ahantu heza, hanze yaho hari ibyatsi by'indabyo nziza ndetse n'inzu ni nziza cyane.

Inzu z'ubucuruzi ziri ku muhanda wa kaburimbo ziteretseho indobo nini, hafi yazo hari umuhanda uri kugendamo moto, ndetse nabagenzi kandi murabo bagenzi harimo abambaye ingofero.

Ibiziga by'amagare bihambiranije ari byinshi. Hafi ya byo hari idirisha, hejuru y'ibyo biziga, hari umufuka upakiye mo ibintu.

Amandazi ari mu ndobo mu ndobo ebyiri zirimo amandazi hasi yazo hateretse amazi y'inyange amandazi ndabona ari meza cyane n'indobo ni nziza zisa neza.

Imikandara z' ubwoko butandukanye ziri aho bazicururiza hafi yazo hari ahantu hariho impeta nazo z'ubwoko butandukanye imikandara y'uruhu rwiza.

Abagabo babiri bahagaze bari kureba imbere, barimo guhabwa ibihembo bijyanye no gushimirwa ibyo bakoze, bambaye ikositumutimu n'inkweto z'umukara.

Ishami rya Beka rishinzwe gutanga amafaranga kuguza no kugurizwa ririmo abakiriya batandukanye, hari abari kwinjira muri banki, hanze ya banki hate haparitse moto ndetse n'imodoka.

Urugo rukinze neza rurimo amazu meza ndetse n'ibiti binini, inyuma yarwo hariho icyapa gikoze muri beto.

Iduka ricururizwamo umuceri, kawunga, amavuta ha hagaze umuntu uri gucuruza kandi yambaye ikoti n'inkweto z'umweru.

Imyenda y'ubwoko butandukanye irambitse kuri shitingi, yarimo imipira, amajampa abacuruzi barimo bacuruza, ndetse n'abaguzi barimo baragura.

Isoko ry'ubucuruzi ririmo imyenda, amasafuriya amasogisi, amabase n'ubwoko butandukanye harimo abaguzi ndetse n'abagurisha.

umusore arimo kunywa umusururu. Ari kuwunywera mu kaneti y'ubururu. Imbere ye hari ameza ndetse n'imiteja.

Ibirayi biri mu mifuka biri kugurishwa, hafi yabyo hari abaturage barimo gupima ibindi ku munzani.

Ubunyobwa burambitse mu mufuka hafi yabwo hari umunzani, ubunyobwa hagati harimo agakoroboyi hafi y'ubunyobwa hari ahantu hakinze.

Amaronji ari mu bwoko butandukanye arambitse ku ntara, afite ibara ry'umuhondo kandi ni meza cane.

Uyu ni umucuruzi arimo aracuruza ibyo kwisiga harimwo amavuta yo gusuka, gikotoro, kologati n'ibindi bitandukanye.

Isoko ririmwo abantu bari kugurisha ibyokurya bitandukanye harimo ibishyimbo, bitunguru, inyanya ndetse n'umunyu.

Imyenda myinshi ijugunye hasi，harimo imipira，amakabutura，amashati irambitse hasi kuri sima，aho bayirambitse hasi hari umuferege w'amazi.